Amabasi bashyizemo ubutaka n'ifumbire harimo amashu, sereri n'ibindi, ni byiza kuba wabishyiramo ugatereka ahantu ukajya uvomerera, ubona umusaruro ushimishije kandi ufite ubutaka buto.

Abahinzi bari guhinga bagenda bakurura ifumbire bayihererekanya kugira ngo bayigeze aho bagomba kuyifumbiza, hirya no hino hari urubingo, amatungo ararukunda.

Ikawa ni igihingwa ngengabukungu, uwagihinze abona amafaranga menshi, igihugu na cyo kikabona amadovize. Umuhinzi ari guteraho umuti kugira ngo ubusimba buriho buhubukeho izere neza.

Koperative y'abahinzi bishyize hamwe, bari gucukura imyobo barashaka guhinga kijyambere, ni byiza iyo bashyize ku misitari birwanya isuri kandi ibyo bahinze bikera neza.

Abantu benshi biribumbiye hamwe bakora ishyirahamwe ryo guhinga, bari gucukura imyobo mu murima utunganyije kugira ngo bazashobore guteramo imbuto bahatoranyije zizabaha umusaruro.

Ikimoteri gitwikiriye, bakusanyirizamo ibyatsi, imyanda, ibyo bakuye mu biraro by'amatungo kugira ngo bizahore, bitange ifumbire y'imborera, nibayihinga bazayifumbize imyaka, ikure neza.

Imifuka y'umweru ipanze ku gatara bubakishije ibiti, irimo ibara ry'ubururu iri munsi y'igiti kinini cyane kugira ngo itanyagirwa ibirimo bikangirika, bigaragara nkaho hari ari ifumbire irimo.

Imborera ni ifumbire nziza cyane ituruka ku byatsi barunze cyangwa se ibyo bakumbuye mu kiraro cy'amatungo, abagabo babiri bari kuyiyora bayijyana ku bihingwa, iyo bafumbije iyi fumbire itanga umusaruro mwiza.

Ikawa ni igihingwa ngengabukungu, umugabo arunamye ari kuzengurutsaho ifumbire mvaruganda, kugira ngo ni yera izatange umusaruro ushimishije, iyo bagiye kuyigurisha mu mahanga bazana amadovize.

Umugabo wambaye isabeti ahetse ipompe irimo umuti, ari gutera inyanya kugira ngo zizere neza zitaboze, umusaruro we utazagabanuka agahomba amafaranga yatanze.

Ikimoteri kirunzemo ibyatsi byinshi abahinzi ni bo babisiho kugira ngo bizabyara ifumbire bajye bifashisha mu gushyira ku myaka yabo ibifashe kuzamura imyunyu ngugu ibihingwa bikenera natwe bikure neza kugira ngo natwe tubiryeho.

Abakozi bakora mu kigo gitubura imbuto zo gutera, bahagaze mu murima w'ibigori munini cyane, uri mu gishanga, bafite ibase irimo ifumbire, baje kwereka abahinzi basanzwe bahaye imbuto, uko bashyiraho ifumbire mvaruganda.

Ibirayi ni igihingwa ndandurarugo k'ikinyamafufu, gitera imbaraga ku muntu wabiriye, bitanga amafaranga iyo byitaweho neza mu murima, bakabiterera umuti ku gihe, bakanabifumbira ni byiza.

Imyumbati ni igihingwa ngandurarugo, gikundwa n'abantu benshi, cy'ingirakamaro mu buzima bwa buri munsi bw'umuntu, arya amababi, imizi bakuramo ifu, yo guteka ubugari bukundwa n'abantu benshi.

Umurima urimo imbaga zitandukanye, inzuzi bazirya amababi, zitanga ibihaza, harimo n'inyanya, iyo zeze nazo barazisoroma bakazirya.

Ikibaya kinini giteyemo imyaka itandukanye, harimo ibiribwa birinda indwara, ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga, tubikenera buri munsi mu buzima bwa muntu.

Ibirayi ni igihingwa cyiza kitarushya guhinga, iyo byashyizwe mu butaka bwiza birabyimba, babijyana ku isoko bigatanga amafaranga menshi kandi meza atubutse umuhinzi akikenura.

Ibirayi ni igihingwa cy'ibinyamafufu gikunda gutanga umusaruro cyane ku wahisemo kubihinga abyitayeho, abanyeshuri barabirya, abapolisi, abasirikare, ahantu benshi bari nibyo barya.

Ibishyimbo ni igihingwa ngandurarugo cy'ikinyamisogwe, uwagihinze abona umusaruro uhagije iyo acyitayeho, aragurisha, akarya, ni ibintu bikundwa n'abantu bose, kandi ni ingenzi ku ifunguro rya buri munsi abantu bafata.

Ubuhumbikiro bw'ibiti ni byiza iyo babifashe neza bakabitera mu butaka, birabufata imvura ntibutware kandi bitanga n'umuyaga mwiza mu gihugu.

Umurima w'inanase ni munini cyane, iyo umuntu azihinze zikera neza abona umusaruro uhagije, ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu bwa buri munsi bazirira aho ngaho, bakazengamo umutobe, harimo isukari itunga umubiri itagira ikibazo ku mubiri wacu.

Imyumbati ni igihingwa gishimishije ngandurarugo gitanga umusaruro, barya amababi, imizi, bagakoramo ifu yo gutekamo ubugari, ikundwa n'abantu.

Avoka ni urubuto rwiza rukenerwa na buri muntu wese ururya, baruzana mu isoko, bakabona amafaranga , bakajyana hanze bakazana amadovize, uwaruhinze arasarura bihagije akikenura mubyo ashaka byose.

Umurima w'ibigori bigiye kwera, ni igihingwa ngandurarugo, kigira umusaruro mwinshi cyane, biraribwa, bitanga amafaranga, barya ibibisi, bahavamo ifu batekamo umutsima.

Ibigori ni igihingwa ngandurarugo, biribwa n'abantu benshi batandukanye, barya ibibisi, ibyumye, ibisekuye, bitanga namafaranga kumuntu wabihinze.

Inyanya nizi kuzihinga zitanga umusaruro ushimishije, ishami rimwe rishobora kwera nk'ibase y'inyanya, bityo wazijyana ku isoko ukabona amafaranga menshi mu gihe gitoya.

Ibigori biteye ku misitari ni byiza ni icyatsi kibisi babiteye umuti, bifite ifumbire mvaruganda, ni igihingwa cy'ingirakamaro ku muntu wese ugikenera ndetse no ku matungo havamo n'ibyatsi biyatunga.

Ibigori ni ikiribwa kiza cyane gikunzwe n'abantu benshi. Bakirya bitandukanye ibibisi, ibyumye. Bakuramo n'ifu yo guteka umutsima utunga abantu benshi.

Insina ni igihingwa kiza iyo uziteye ikijyambere, ukazitaho zitanga igitoki kinini, umuguzi yaza kukigura akaguha amafaranga atubutse ukikenura.

Iyo bashaka ingemwe z'ikawa zo gutera bahumbika mu bihoho by'amashashi y'umukara, bashyiramo igitaka n'ifumbire bakamenamo imbuto bakavomerera zikazakura zigatoha bakabona uko bazitera.

Ingemwe z'ibiti zikuze bagiye kuzimura bajye kuzitera ku misozi zifata ubutaka, zitanga umuyaga kugira ngo imvura izaboneke mu gihe gikwiye, ni ingirakamaro mu buzima bwa buri munsi.

Ibigori ni igihingwa cyiza cyane, gitanga umusaruro ku muhinzi wagihinze, barya ibibisi, ibyumye, havamo amafaranga, bakuramo ifu, batekamo umutsima, ukundwa n'abantu benshi.

Inyanya ni nziza cyane ku muntu wahisemo kuzihinga, agatoranya umurima, agashyiramo ifumbire, akamenya ko igihe kigeze cyo kuzitera umuti, zera neza zigatanga umusaruro ushimishije.

Ikawa ni igihingwa ngengabukungu gikomeye cyane, uwagihinze abona amafaranga mu gihe gitoya, igihugu cyacu kikijyana mu mahanga kikabona amadovize.

Umuneke wa kamaramasenge, uturuka ku gitoki gikomeye baba baciye, bakawutara, ugashya neza ufite isuku, abantu benshi barawukunda bawuha abana batoya, kuko ufite isukari itagira ingaruka mu mubiri wawufashe.

Inyanya ni igihingwa ngandurarugo, uwagihisemo aba akoze neza cyane kuko aba yiteganyirije ku mafaranga, byera vuba kandi bigatanga umusaruro uhagije cyane.

Ibigori by'umuhondo ni byiza cyane kurusha iby'umweru, havamo ifu ya pate jaune, bagashyira mu mashini impungure bakazikaranga bakavanamo ibiryo abana bakunda byitwa injugu.

Umurima uteyemo makadamiya, zirakura ibiti byazo bikagandara, bigahuza amababi bisa neza, hasoromaho imbuto bajyana mu mahanga bakazana amadovize.

Umurima munini cyane w'inyanya, harimo umuntu wambaye imyenda y'umukara uhagazemo, ni mwiza, yahisemo neza kugira ngo ashobore kwiteza imbere, ahitamo igihingwa, cyera vuba kandi gitanga umusaruro.

Inka za kijyambere ziri mu kiraro bazubakiye, zifite ibintu by'umuhondo ku matwi, ni ikirango cyerekana ko zamaze gukingirwa, imbere hari icupa ririmo umuti baziha.

Ibicuba ni byiza, ni ingirakamaro ku bantu bacuruza amata cyangwa se aborozi, biyatereka neza ntabwo ashobora gutokorwa no kuyagemura bayajyana ku ikaragiro no ku ikusanyirizo ry'amata agerayo neza.

Umugabo w'umuhinzi arunamye ari gukorera insina ze, ni cyo gihingwa yahisemo guhinga kuko aricyo yabonye kizamugirira umumaro, kikamuha umusaruro vuba agashobora kwiteza imbere akagera no ku nzozi ze.

Abantu benshi bafite amasuka bari gukora umuganda, baca imirwanyasuri, kugira ngo imvura nigwa itazakurura ubutaka, bugatwara n'amazu y'abantu, bakahasiga ubuzima, bagakora ibyo byose kugira ngo barengere ubuzima bwabo.

Uwaruri guhinga umurima we akuramo imyumbati; ni igihingwa ngandurarugo gikundwa n'abantu bose k'ingirakamaro. Urya imyumbati, ikavamo ifu yo guteka ubugari n'isombe, byose ni kmwe.

Umugabo wunamye, yambaye bote, afite isuka, ari guhinga, ni byiza, ni umwitozo ngororamubiri kandi uwabigize umwuga iyo yejeje abona umusaruro ushimishije bigatunga n'abantu bose.

Umugore w'umuhinzi mworozi ahagaze imbere y'aho arunda ifumbire yakuye mu biraro by'amatungo ye, imbere ye hari abanyamakuru bari kumufotora bakamubaza iyo imaze kubora ayikoresha iki, nawe akababwira y'uko ayishyira mu myaka ikera neza.

Abagabo benshi bari gukora umuganda, bafite amasuka n'ibitiyo, bari gusana ibikorwa remezo, ni byiza ko bongera gukora kiriya kiraro cyakundutse, kugira ngo bajye babona aho bambukira.

Abahinzi bishyize hamwe bakora ishyirahamwe bahinga dodo, ni nziza, zirwanya igwingira, zitanga amafaranga, habamo vitamini umubiri wacu ukenera, zifasha n'igogora rikagenda neza mu mubiri wacu.

Umusaza yikoreye ibyatsi bikomoka ku bigori abishyiriye amatungo zirabikunda iyo zibirya zumvamo isukari, ni byiza kuziha ibikomoka ku bigori ni ingirakamaro.

Ihuriro ry'abantu benshi bishyize hamwe bahinga bari kubagara imyumbati bateye, ni igihingwa ngandurarugo cy'ingirakamaro mu buzima bw'abantu bwa buri munsi, barya amababi imyubati yeze hasi nayo bakayirya.

Umugore uri guhinga, ni byiza bahisemo umurimo utungishije benshi, ibikorwa byose bikorwa ku Isi hirya no hino, ni uko baba bariye, kandi bikomoka ku mirimo y'abahinzi bakora.

Ubuhinzi ni bwiza mu mpande zose z'isi, ikiremwamuntu kibeshejweho nuko barya ibihingwa ngandurarugo, iyo abantu bahinze bakeza igihugu kimera neza, ntibicwa n'inzara, ni byiza guhinga.

Avoka ni igihingwa cyiza cyane gikundwa n'abantu bose, ziraryoha ni ingirakamaro mu mubiri wacu, urazikenera buri munsi, zizana amafaranga bakuramo n'amavuta.

Ikibaya cyiza cyane bagihinzemo umuceri, ni igihingwa ngandurarugo gikundwa n'abantu bose, abana, bakuru, abatoya, kizana amafaranga ku wiyemeje kuwuhinga.

Ibijumba ni igihingwa ngandurarugo gikundwa n'abantu benshi cyane, havamo ibintu bitandukanye, uwabihinze ntabwo atinda kubona umusaruro bitanga amafaranga, bikera vuba, bikaryohera abantu bose.

Imbuto z'amoko atandukanye, ziri mu isoko aho bari kuzicururiza, ni nziza ku mubiri w'umuntu, zikomeza amenyo n'amagufa, umwana waziriye ntabwo ajya ahura n'uburwayi bw'ibyo ngibyo.

Imifuka ni igikoresho abahinzi bakenera, ari abahinga ngandurarugo, ngengabukungu, bose barabikenera kuko ari ingirakamaro mu buzima bwabo bwa buri munsi, ni mo basarurira imyaka yabo no kuyibikamo ntiyangirike.

Imifuka iteretsemo imyaka basaruye, umuceri ni byiza kuwuhinga bitanga umusaruro ushimishije, abantu benshi barawukunda amafaranga na yo akaza, mu bigo by'amashuri bakunze kubaha umuceri uratubuka.

Inzu nini cyane ikusanyirizo y'imyaka y'ibinyampeke basaruye, hahagazemo abagabo babiri bari kugenda bapanga imifuka isa, bayishyira iruhande rumwe ni heza.

Umugabo muremure wambaye ikote, uhagaze hagati mu rwanikoro rw'ibigori, harimo umusaruro ushimishije, birumye, ni ingirakamaro mu guhinga igihingwa ngandurarugo.

Isoko rinini cyane ry'ibitoki abahinzi bazanyemo ibyo basaruye kugira nabo babahe amafaranga, abacuruzi barabirangura babikwirakwize mu masoko hirya no hino kugira ngo bose bo kwicwa n'inzara.

Ibiribwa byinshi bitandukanye, harimo ibinyampeke, ibishyimbo, ibigori n'ibindi byinshi by'amoko atandukanye, bikungahaye ku munyu wa feri, abantu barabicyenera mu buzima bwa buri munsi.

Umuhinzi w'urutoki ari guseka cyane arishimye, amaze gusarura ibitoki abirunze hamwe, ategereje abantu baza kubimurangurira bakamuha amafaranga; guhinga intsina ni nziza, zitanga umusaruro.

Insina ni igihingwa cyiza cyane cy'ingandurarugo, gikenura uwagihinze, gitanga igitoki kiribwa n'abantu bose kandi kikazana amafaranga ku gihe.

Insina ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro, iyo uwayihisemo kuyihinga ayihaye ifumbire mu buryo bushimishije ibyara abana benshi, niko batanga umusaruro w'ibitoki.

Urubingo ni ibyatsi bikundwa n'amatungo yose maremare, amagufi, inka yaruriye irahaga igatanga umusaruro k'umukamo w'amata, inyama, amafaranga igiye ku isoko.

Ubuhumbikiro bw'ibiti by'intusi, bashyira igitaka mu mashashi y'umukara n'ifumbire bagashyiramo urubuto bakavomerera kikamera, kikazakura bakakijyana ku gitera ahandi.

Ishyamba ririmo ibiti bikuze n'ibitoya, ni ingirakamaro mubuzima bw'abantu bwa burimunsi, bakuramo ibikoresho bitandukanye, bakabikoresha n'imirimo itandukanye, gucana, n'ibindi.

Ihuriro ry'abagore n'abagabo; bahuriye mu bumbikiro bw'ibiti, bari gukuramo ibikuze, bafite amasoko yo kujya kubitera ku misozi kugira ngo barwanye isuri itazabatwara ubutaka bwiza bwo guhingamo.

Ishyamba ni ingirakamaro uwariteye rimuzanira inyungu nyinshi zitandukanye inkwi, rifata mu butaka kugira ngo imvura itabujyana ubwiza bukagenda tukazabura umusaruro.

Umurima uteyemo ibihingwa bitandukanye, avoka, ibigori, urutoki, hirya yaho hari igiti, ni byiza kubera yuko ari ibihingwa ngandurarugo, bitunga abantu bose.

Avoka ni igihingwa cyiza cyane gikundwa n'abantu benshi, kandi kiryoha, havamo ibintu bitandukanye, izana n'amadovize iyo bayijyanye hanze, ikazamura ubukungu bw'igihugu n'umuturage wayihinze akarushaho kwiteza imbere.

Igiti cy'urubuto rwitwa ipera, kigira uburyohe cyane barakirya, bakuramo umutobe wo kunywa, amababi yacyo aravura indwara nyinshi cyane zitandukanye.

Akarima k'igikoni karimo imboga zitandukanye, ibirungo, indyoshyandyo. Ni byiza kuba ufite hafi yawe, iyo ugiye gusarura ntabwo ujya kure cyangwa se ngo utange amafaranga n'ibyo kuzishyiramo.

Igiti ni ingenzi mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi, itanga umuyaga hakamanuka imvura, havamo imbaho bakoramo ibikoresho byo mu rugo, ameza, intebe, ibitanda n'inzugi.

Igiti cya veregeriya, ni cyiza gikura vuba, iyo basayemo imbaho zivamo ibikoresho abantu bakunda cyane, biba bikomeye biraramba, birahendutse kandi ni byiza.

Umurima urimo insina weramwo ibitoki bikundwa n'abantu benshi, ni ikiribwa ngandurarugo gihaza umuryango, havamwo amafaranga, harimo n'ibyatsi byinshi, ibiti by'amapoto bishinzemo bagiye bacishaho insinga z'umuriro.

Intoryi ni imboga nziza abantu benshi bakunda, kuzihinga zitanga umusaruro vuba vuba, urasasira umurima wazo zakera amashami zikamanuka zikiryamira muri bya byatsi.

Ikibaya gihinzemo imyaka itandukanye y'ingandurarugo, ibigori, imigozi, karoti. Ni byiza byose tubikenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Bitabayeho ntabwo imibiri yacu yabaho.

Izi mboga zose ziri muri iri isoko ni ingirakamaro mu mubiri wacu. Zifasha igogora rikagenda neza. Abana baziriye ntabwo bagwingira n'abantu bakuru nuko.

Abantu banyuranye bari mu buhumbikiro bw'ibiti, iby'imbuto, ibyo gutera indabyo, baravomerera, umugore uhetse umwana ateruye mu ibase, ibyo agiye gutera iwe ni byiza.

Igitara cyubatse kiriho imbuto zitandukanye, iyo tuziriye umubiri wacu ukuramo isukari, vitamine n'imyunyu ngugu zikura mu butaka. Ntabwo rero twazireka kuzirya.

Umuhinzi wabigize umwuga ahagaze mu murima w'inyanya zeze ari kumwe n'umwana bazifite mu ntoki, arishimye cyane kuko umusaruro yabonye urahagije umuha amafaranga byihuse.

Igiti ni igihingwa cyiza cyane, ni kirekire kiratoshye, gifite amababi y'icyatsi kibisi, ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu bwa buri munsi baragikenera, havamo imbaho, inkwi zo gucana, n'ibindi byinshi.

Abahinzi babigize umwuga umugore n'umugabo bari guseka bafite umusaruro wa reti mu ntoki, ni nziza zirashishe babonye nyinshi kuko bashyizemo imbaraga zabo bazihinga neza zirera.

Ibyatsi bya pasiparumu, aho babiteye bakabikata bikareshya, hasa neza haragaragara ku ruhande hariho indabyo bateye z'ibiti barazikase ziragaragara neza.

Intoryi ni imboga zikundwa n'abantu benshi, iyo umuhinzi ahisemo kuzihinga haba ku zuba, haba mu mvura, iyo azitayeho abona umusaruro ushimishije wo kujyana ku isoko, zikundwa n'abantu benshi, abona amafaranga akikenera.

Intoryi ni igihingwa kitagoranye guhinga, kandi gitanga umusaruro uhagije, ni imboga ziribwa n'abantu bose, havamo amafaranga, uwazihinze aba yiteganyirije, nyuma y'iminsi itatu yavomere cyangwa imvura iri kugwa, arasarura akabona amafaranga yifuza.

Umukobwa wambaye bote, ipantaro y'ubururu y'ikoboye, umupira w'ubururu w'amaboko maremare, ingofero y'umukara, arisukishije, arunamye imbere y'ubuhumbikero bw'ibiti by'imyembe, ari kurobanuramo ibyo ajya gutera.

Ubusitani bwa pasiparumu ni bwiza burareshya barabukase ku ruhande bateyeho indabyo z'ibiti kugira ngo babuze umuntu wese wakwijira kujya kubwangiza.

Indabyo ni nziza cyane, aho ziteye hagaragara neza, ziduha umwuka duhumeka, nazo zikakira uwo dusohoye, turazikenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Intoryi z'ibibiriganya ni imboga nziza cyane, umuhinzi wahisemo kuzihinga akazitaho agasasira akavomera mu gihe cy'izuba, agatera umuti, abona umusaruro ushimishije.

Ibiti by'intusi bidufitiye umumaro munini cyane, havamo imiti ivura abantu, igafata ubutaka kugira ngo isuri itabujyana ubwiza bwa keramo ikabutwara.

Umugabo uhetse ipope ahagaze mu murima mugari w’inyanya yahisemo guhinga, ari kuzitera umuti kugira ngo azabone umusaruro utubutse kandi umufitiye inyungu.

Imineke ni imbuto nziza cyane zibamo isukari, ifitiye umubiri wacu akamaro, utagira ingaruka, utatera indwara, abantu benshi barayikunda, abana, abakuru, abakecuru n'abasaza, bose barayikunda.

Imisozi ibiri iteganye, umwe uriho igihingwa ngengabukungu cy'ikawa, kizanira amafaranga umuntu wagihinze ntabwo akena, kikazanira n'igihugu cyacu amadovize.

Abagore babiri n'umugabo umwe baricaye, imbere yabo hari ameza, hatanditseho imyanya n'ibindi, hasi hari imboga, karoti, amadegede, intoryi, ni ibiribwa by'imboga bikenerwa na buri muntu wese.

Ibase y'umutuku irimo imiteja, ni imboga nziza zikunzwe n'abantu benshi barazikunda, ni ingandurarugo, iraryoha, izana amafaranga, ikarera n'abana n'abantu benshi barayirya.

Inyanya basaruye zeze neza, barazitereye umuti ku gihe, ziraryoha, ziba zifite ubuziranenge bwuzuye, iyo bazijyanye mu ruganda kuzisya havamo sositomate nziza cyane idasharira.

Isoko ririmo imboga zitandukanye, indyoshyandyo, beterave bakoramo amaji, guteka mu buryo ufite amaraso makeya akongera akagaruka, karoti, imiteja, ibituru na tungurusumu, ibyo byose ni byiza.

Indabyo ni nziza, aho ziteye haba harimbishijwe, ziduha umwuka duhumeka wa buri munsi, ni ingirakamaro zirakenerwa, ni nziza.

Imineke itandukanye y'amoko abiri, iri ku nkoko iminini n'imitoya. Yose ifite isukari umubiri wacu ukenera buri munsi kandi ikundwa n'abantu bose.

Amashaza ari mu ishashi ni igihigwa cyiza cyane cy'ikinyamafufu abantu benshi baragikunda, iyo uyabitsemo ntashobora gupfa, ni kimwe n'uko bayabika muri firigo akava mu isaha akamera neza.

Imiteja iri mu ibasi y'icyatsi kibisi, iruzuye, ni myiza, iracyari mishyashya, yujuje ubuziranenge. Ni ikiribwa cy'imboga gikundwa n'abantu benshi, bayirya mu buryo butandukanye ku buryo buri muntu wese ayikundamo.

Ibitunguru ni indyoshya ndyo abantu benshi barabikunda kubishyira mu mavuta agahumura, ku masarrade, uwabihinze wamaze kubihitamo bimuha amafaranga mu gihe gito cyane.

Ibinyomoro ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro ushimishije, ni urubuto rukundwa n'abantu benshi, iyo babiriye ntabwo bigera babura amaraso mu mubiri, birera n'abana bagakura.

Umusore wambaye umupira w'ubururu, ingofero y'umukara, isaha ku kaboko, afashe ku giti cyatangiye kuyangika cy'urubuto bateye, ari kureba izajeho kugira ngo arebe ko ziriho ubusimba, atera umuti zizatange umusaruro mwiza.

Urusenda ni igiti kiyiza cyera umusogwe ukeye, ni indyoshya ndyo, abantu benshi bakunda kurushyira mu byo kurya, bikabaryohera, iyo bamaze kuruteka bararubika bakajya barukenera buri munsi.

Umwembe urambitse ku meza, ni urubuto rwiza cyane rukundwa n'abantu batandukanye; bakoramo ibintu byinshi binyuranye bitanga n'amafaranga ku baruhinze, bagakuramo n'umutobe wo kunywa.

Umuhinzi wabigize umwuga, ahagaze mu nyanya, mu murima munini iyo zifashwe neza zitanga umusaruro ushimishije, ukazitera umuti, ukazivomera mu gihe k'izuba usaruramo amafaranga menshi.

Igitoki cya kamaramasenge iyo bagitaze gikomeye kigira umuneke mwiza ukeye, bawuha abana bagakura neza, nta ngaruka ugira ku muntu wawuriye, ntugira n'isukari nyinshi.

Ubusitani bateyemo pasiparumu, bashyiramo indabyo ku ruhande bakabikata ugasanga bisa neza, iyo babonye abantu baza kuhifotoreza babaha amafaranga.

iIinyomoro biri mu ibasise y'ubururu, ni urubuto rugira uburyohe cyane, rufite uruhare runini mu kugarura amaraso mu mubiri w'umuntu, iyo yabuze no kubana bituma bakura neza cyane.

Umwana muto uhagaze mu murima w'inyanya, ni byiza kuzihinga zitanga umusaruro vuba, bazijyana mu nganda bakazisya hakavamo sositomate, bateka mu biryo bigahinduka bigasa neza.

Isoko bari gucururizamo imbuto zitandukanye, umubiri wacu urazikenera buri munsi, habamo vitamin C ikomeza amenyo n'amagufa bityo umuntu akagenda akomeye.

Guhinga akarima k'igikoni hafi y'urugo ugateramo dodo, uzirya buri munsi, ukazishyira mu biryo igaburo rya buri gihe, riba rikeneye dodo kugira ngo utamurwaza igwingira.

Shitingi batanditseho imboga z'amoko atandukanye intoryi, puwavuro, karoti, ni ibihingwa ngandurarugo, barabikenera mu buzima bwa buri munsi, biraryoha, abantu benshi barabikunda.

Karoti ni igihingwa gikundwa kuribwa n'abantu benshi, bazirya zitetse ari mbisi, zitanga umusaruro ushimishije mu gihe gitoya kuwazihinze.

Abantu batatu bari mu buhumbikiro bw'ibiti, babiri barunamye, undi arahagaze ari kuza abasanga, bari gukuramo ibyatsi kuko ingemwe bahumbitse zirasa neza cyane.

Umurima uhinze neza uteyemo ibiti bitandukanye by'imbuto, ibikuze, ibitoya, umuhinzi wabihisemo yakoze ikintu kiza cyane kuko ni byera azabona amafaranga.

Umuhinzi n'umugore uhagaze mu murima w'intoryi, azifite mu ntoki izo yasoromye, ni nziza zitanga umusaruro mu gihe gitoya, kandi zikundwa n'abantu benshi zigatanga n'amafaranga.

Imboga za dodo ni nziza cyane ku bazirya, uwazihinze, zifite umumaro munini cyane mu mubiri wacu, baba abakuru, baba abatoya barazikeneye kuko zifite vitamini nyinshi.

Umuhinzi wabigize umwuga, ahinga mu gihe k'izuba, akuhira imyaka ye kugira ngo azabone umusaruro, umugabo uhagaze wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'icyatsi kibisi, afite umupira mu ntoki ari kuhira ibishyimbo.

Igishanga kinini cyane bahinzemo ibigori mu gihe gitandukanye, basarura babikurikiranya, harimo amoko atandukanye, ibyera vuba n'ibitinda.

Umuhinzi wabigize umwuga igihe cyose arahinga, umugore uri kuvomerera imboga mu gihe cy'izuba kugira ngo azakomeze kubona umusaruro uhagije wo mu mboga, ntazabure n'izo kurya mu gihe gikwiye.

Umuhinzi yahinze amashu, ayatera ku musitari, ari kuyasasira najya avomerera amazi azajya acengera muri bya byatsi agumemo, atere umuti kugira ngo abone umusaruro ushimishije.

Umugabo uhagaze uri kuvomerera amashu ye yayaheze mu gihe cy'izuba, yayitayeho nanjya gusarura umusaruro uzaba munini cyane, kubera ko yashyizeho ifumbire n'amazi bihagije.

Umuhinzi ahagaze mu murima w'intoryi, afite umupira, ari kuvomerera kugira ngo amazi acengere mu byatsi yasasije agumemo, amaremo igihe kubera kubera ko yahinze mu izuba, hakurya hari amashu ari hafi gusarurwa.

Umuhinzi wambaye isarubetti y'ubururu n'ingofero y'umukara, afite umupira ari kuvomerera imboga ze yazihinze mu gihe cy'izuba. Ni byiza, nashyiramo imbaraga azabona umusaruro ushimishije.

Umugabo wahinze ibigori mugihe cyizuba, afite umupira uri kuzana amazi, ari kuhiza kugirango azabone umusaruro ushimishije mugihe cyo gusarura.

Umuhinzi wabigize umwuga, afite umupira uri gucamo amazi ari kuvomerera imyaka ye, kuko yayihinze mu gihe cy'iki. Ntabwo yakwicara bitewe n'uko igihe cyose, iyo ufite ubushake n'imbaraga, ubona umusaruro.

Abagabo babiri b'abahinzi bambaye bote, bahagaze hagati y'imitabo bari kuhira ingemwe zabo bashyize mu buhumbikiro kugira ngo zikure neza, bazabone uko bazigemura bazijyana ahandi.

Umusozi uciyeho amaterasi y'inganire, uba ukeye ugaragara neza, iyo bahinzemo imyaka yera neza, bashyiramo ifumbire ikagumamo n'amazi akajya acengeramo y'imvura, bityo ikera neza.

Umuceri n ihingwa bakunze guhinga mu bishanga, akwezwamo ko wabonye amazi, ni igihingwa gikundwa n'abantu bose, uraryoha, urera cyane, ugatanga umusaruro ushimishije.

Ku musozi uriho amatarase y'indinganire, haruguru hari amazu afite ibisenge by'umutuku, hateyeho imyumbati, urutoki n'ibiti, hirya hari ishyamba, hasi hari umuceri, ni mwiza uraryoha utunze abantu bose.

Umudugudu wubatse neza, usakaje amabati atukura, imbaho zo ku ruhande ni icyatsi kibisi ni byiza kubaka begeranye, hasigara imirima yo guhingamo imbere, hakurya hari imyaka iteyemo n'ibiti biri kugaragara neza.

Umuceri bawuhinga mu gishanga, ni igihingwa ngandurarugo gitanga umusaruro mwinshi, abantu benshi baragikunda, gitunga abana, abakuru, abatoya, kizana n'amafaranga.

Ikibaya kinini cyane kirimo imyaka itandukanye amashu, ibishyimbo birebire, ibigufiya, dodo n'izindi mbuto zose. Ni ibihingwa byose ngandurarugo bikenewe n'umubiri w'umuntu.

Ikibaya kinini cyane bahizemo ibihingwa ngandurarugo, imboga n'ibindi, harimo imifurege bagiye baca ikamura amazi mu gihe cy'imvura, kugira ngo imyaka irimo itarengerwa.

Umusozi utuweho n'abantu bakeya babarika, hariho ibihingwa ngandurarugo, ibishyimbo, urutoki, ni byiza kuko abantu benshi barabikenera mu buzima bwa buri munsi.

Icyayi ni igihingwa ngengabukungu, umusozi giteyeho ugaragara neza, kirwanya isuri amazi ntatware ubutaka bwiza bwo guhingamo, bavanamo amajyane y'icyayi kiryoshye, bakijyana mu mahanga bakazana amadovize.

Igishanga bahingaho ubuhinzi butandukanye, ibirayi, imboga, ibishyimbo, bakora imitabo itambitse, kugira ngo barusheho kurwanya isuri, iyo amazi amanutse ari menshi, ntashobora kubutembana.

Umuhinzi wabigize umwuga, ahinga imyaka ye ku misitari itambitse, ibirwanya suri, iyo amazi amanutse ntabwo akukumura imyaka, ahubwo agomba gucengera mu butaka.

Inkwavu ni amatungo magufi asa neza, atagoye korora, atanga umusaruro mu gihe gitoya kandi mwinshi, kuko abyara abana benshi, inyama, ifumbire n'ibindi.

Inkoko ni itungo ryororoka mu gihe gito cyane, uwarihisemo abona umusaruro ushimishije, ritanga inyama, amagi, amafaranga n'ibindi byinshi.

Inka ni itungo rirerire, iyo waryororeye mu nzu, ukarigaburira ririmo, ritanga umusaruro mwiza kandi utandukanye, inyama, amata, ifumbire ndetse n'ibindi birikomokaho.

Umworozi w'umugabo muremure yambaye hasi ipantaro y'itiriningi hejuru isengeri y'umutuku ahagaze iruhande rw'ikiraro cy'inka ye ari kuyitegereza areba uko imerewe.

Inka ni itungo rirerire, rirahaka, rikabyara inyana cyangwa ikimasa, bakayita umutavu, irakura ikangana na nyina, bayijyana ku isoko igatanga umusaruro w'amafaranga ushimishije.

Abagabo batandatu bahagaze, babiri begereye uruzitiro bubakiye inka, umwe ari kuyagaza, undi ni umuganga ugiye kuyikingira kugira ngo ayirinde indwara ijye itanga amata azira inenge.

Inka n'itungo rirerire rikunda gutanga umusaruro uhagije kandi unyuranye, amata, ifumbire ,inyama iyo ryirishirije mu kigunda ni ho rihaga, ukayiha amazi arimo umunyu.

Ingurube ni itungo rigufi ryororoka vuba, rigatanga umusaruro, k'uwaryitayeho, akarigaburira ibiryo bihagije, akaryuhagira, akanarivuza buri gihe akajya arihereza imiti kugira ngo rikure neza.

Umworozi wafashe itungo rye neza abona umusaruro uhagije, iyo afite ibyo kurya bihagije akayigirira isuku, akayihanagura amabara yose akagaragara isa neza.

Dendo ni inkoko, ikura ikangana n'ihene, itanga amagi, inyama, iyo iyijyanye mu isoko, igurwa amafaranga menshi kuko iba yarakuze cyane, yabonye ibiryo bihagije.

Ingurube ni itungo ryiza cyane ryororoka vuba, umworozi warihisemo aba yatekereje neza kuko mu gihe gitoya agera ku nzozi ze zo kwiteza imbere, igihugu cyamubyaye na cyo akagiteza imbere.

Abantu benshi bicaye ahantu mu kibuga, abagore, abagabo, imbere yabo hari ingurube baje kugurisha, ni itungo ritanga amafaranga vuba kandi rirororoka, abagabo barimo bamwe barazifashe, bari kureba uko zingana n'igiciro baziha, zitanga inyama, zigatanga amavuta n'ibindi.

Ihene ni itungo rigufiya ritanga umusaruro mu gihe gitoya, inyama, amafaranga, impu zazo barazigurisha, iyo zibyaye barya inyama, ni nziza ntabwo zigorana korora.

Inka ni itungo rirerire, ritanga umusaruro ushimishije, iyo ibyaye ikimasa cyangwa inyana, itanga amata, bakuramo amavuta, foromaje, akarera abana, n'abantu benshi barayakunda.

Inka ni itungo rirerire, iyo urifashe neza ukaryorera ahasa neza, ukayiha amazi, ukayiha umuti, ukayisasira, irabyara umwana akonka agakura agatanga amafaranga n'amata nayo akaba ari ingenzi cyane mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi.

Inka y'umukara iri mu kiraro iraziritse, uwayoroye imufitiye umumaro munini cyane, imuha ifumbire ajya gufumbiza imyaka yahinze kugira ngo abone umusaruro utubutse.

Ingurube ni itungo ryororoka vuba, rikenura uwariragiye ritanga umusaruro mu buryo bwihuse, amavuta, inyama, amafaranga, n'ibindi byose.

Ingurube ni itungo rigufi ryororoka vuba, ritanga inyama ziryoshye abantu benshi bakunda, iyo uribangurije ribwagura ibibwana byinshi, maze byose bigakura, wabigurisha ukabona amafaranga.

Inka ni itungo ryiza rirerire rifitiye umumaro uwaryoroye, arikuraho umusaruro utandukanye kandi mwinshi mwiza, amata, inyama amafaranga n'ibindi byinshi.

Ihene ni itungo rigufi, ryororoka vuba ritanga amafaranga mu gihe gitoya cyane, kuko iyo imaze kwima, ibyarira amezi atatu, ikosa ayandi nka yo. Bityo abana bagakura vuba vuba, twagurisha ukabona amafaranga.

Ingurube ni itungo ryiza, ryororoka vuba, ritanga umusaruro mu gihe gitoya, amavuta, inyama, amafaranga ndetse n'ibindi bikomoka kuri ryo.

Inka ni itungo rirerire ritanga umusaruro iyo imaze kubyara batangira gukama amata avamo amafaranga, barayanywa akundwa n'abantu benshi, bavanamo n'ibintu byinshi bitandukanye.

Ingurube n'itungo rigufi ritanga umusaruro ushimishije, iyo ribwaguye ritanga abana benshi cyane, mu gihe cyo kurijyana ku isoko bagakuramo amafaranga ahagije.

Inkoko ni itungo ryororoka vuba, ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu bwa buri munsi ritanga inyama, amagi, amafaranga ryororoka vuba, uwaryoroye ntabwo ajya akena abona byose mu gihe gikwiriye.

Inka yorowe neze ukayiha ibyatsi biyihagije, ukayivuza, ukayiha amazi, igasa neza, uyijyanye ku isoko baguha amafaranga wifuza kuko nawe uba warayiharaniye.

Ihene ni itungo rigufiya ritagorana korora, umuntu uwo ari we wese ararishobora kurigaburira, kuryitaho, ritanga umusaruro vuba, ribyarira amezi atatu gusa.

Ihuriro ry'abantu benshi, abagore, abagabo, bafite ibibwana by'ingurube bikiri bitoya bya kijyambere, iyo ubyoroye neza, ukabigaburira ibiryo bihagije, ukabyuhagira, bitanga umusaruro uhagije.

Umworozi wiyemeje gutunga itungo rirerire, bimusaba imbaraga nyinshi, ubushobozi, ku buryo azajya abona ibiryo bizihagije, kuzibonera imiti, kugira ngo zigire ubuzima bwiza zitange n'umusaruro uhagije.

Umuhinzi mworozi w'umudamu ari kumbuga iwe, afite ihene ebyiri mu ntoki. Hirya ye hari ibishyimbo, ni byiza, ni ibikorwa biruzuzanya kubera yuko kimwe cyunganira ikindi mu gutanga ifumbire.

Korora ingurube ni uguhitamo neza, iyo ibwegetse ibwagura ibibwana byinshi, wabigaburira ibiryo bihagije bigakura neza, ukabijyana ku isoko, bakaguha amafaranga wifuza, itanga inyama, ifumbire n'ibindi.

Sereri ni igihingwa cy'indyoshyandyo gikundwa n'abantu bose, gihumuza neza ibyo kurya yo ushyira mu biryo byose utetse haba isombe, haba n'ibindi byose byo kurya.

Imigozi y'ibijumba ni igihingwa cyiza, cyera mu gihe gitoya cyane kikaba gitanze umusaruro ushimishije, ku mababi baryaho imboga, hasi imizi bakarya ibijumba, abantu benshi barabikunda.

Ihuriro ry'abantu benshi baje mu isoko banyuranye, abagore, abagabo, bazanye umusaruro w'imyaka w'ibyo bahinze kugira ngo babone amafaranga, abafite amashu ni menshi kandi ni meza.

Umurima w'imyumbati ikuze, amababi yarabuye hejuru, ni ingirakamaro kuyihinga, barayirya isombe, imizi mibisi iyumye bagakuramo ifu yo gukora ubugari.

Imyumbati ni igihingwa ngandurarugo dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, turya amababi, imizi, imibisi, iyumye havamo ifu basongamo ubugari biraryoshye.

Umugabo wicaye mu buhumbikiro bw'ibimera bitandukanye yambaye umupira w'icyatsi kibisi, inyuma ye hari umugore uri gutera amazi indabyo bamaze guhumbika yambaye umwenda utukura.

Amazi ari hagati y'imirima bahinze mu gishanga, ni meza ni ingirakamaro, iyo izuba ryarashe barahinga ntacyo bishisha, baratangira bakavomerera, bityo imyaka igatanga umusaruro ushimishije, kuko bashyizemo amazi ahagije.

Ibishyimbo ni igihingwa ngandurarugo, gikundwa n'abantu benshi, iyo bagihinze bashyiramo ifumbire, imborera bavanga n'invaruganda, itanga umusaruro ushimishije, abantu barabirya babikenera ku ifunguro rya buri munsi.

Ubwanwanikiro bw'ibigori bubakishije ibiti, iyo bimaze kuma bivamo ibintu bitandukanye, ni ingandurarugo, biraryoha, bitunga umuryango, havamo n'amafaranga ukoresha ibindi bintu kurihira abana amashuri, kwiteza imbere mu bundi buryo bwose.

Imbuto binaje mu butaka burimo ifumbire zikura neza, zigasa n'icyatsi kibisi ku mababi yazo, ni byiza kuzishyira mu butaka buvanze n'ifumbire bituma zivoma amazi mu butaka zigakura neza.

Umurima bahinze neza bawucukuramo ibyobo, harimo ibyatsi biteyemo bakunda kugaburira amatungo byitwa urubingo, iyo warugaburiye amatungo arabyibuha.

Umugabo wunamye, wambaye ishati ari gushyira inka ku yayo kugira ngo ibanze yonke, abone gukama amata, avamo ibintu bitandukanye b'yingirakamaro foromaje n'amavuta.

Umworozi wororeye inka ze mu biraro, azihagaze iruhande ayifasheho, ari kureba ikibazo zifite, niba zikeneye imiti, amazi, ibyo kurya, kugira ngo akemure icyo kibazo.

Korora amatungo maremare yitwa inka, bisaba kuyitaho umuganga w'amatungo yayahamagaza ukayajyana mu rupango bakayatera imiti kugira ngo akure neza nta musa.

Abagabo babiri bafashe ikibwana cy'ingurube, bari kureba uburwayi gifite, bagihe umuti, baramutse bayiretse igapfa ikiri ntoya, umusaruro bari bayitezeho ntabwo waboneka kubera ko idakuze.

Inka ni itungo rirerire ritanga umusaruro ushimishije ku mata, inyama, amafaranga, ni nziza itanga ifumbire umuhinzi iyo ahinze nta fumbire ntabwo yeza.

Umworozi w'umugabo ahagaze mu nkoko ze, yambaye isarubeti y'ubururu, korora inkoko ni byiza cyane ko zitanga umusaruro mu gihe gito amagi, inyama mu gihe wahisemo ubwoko worora muri nzo.

Umworozi wabigize umwuga, yorora amatungo maremare, akayahereza ubwatsi buhagije, amazi, imiti, ndetse akazikorera n'amasuku, zirabyibuha, iyo agiye kuzigurisha bamuha amafaranga ashaka.

Inka iri mu kiraro y'ibara ry'umukara hasi ni umweru, ifashwe n'abagabo babiri uwambaye isarubeti y'ubururu ari kuyitera urushinge kugira ngo imererwe neza ntifatwe n'uburwayi.

Inyoni bita gasuku ni nziza, igizwe n'amabara atatu, iri mu byiza nyaburanga bikurura ba mukerarugendo bakatuzanira amadovize, iyo umuntu avuze ijambo irisubiramo.

Ingagi ni inyamaswa yicara nk'umuntu, iyo ibyaye umwana wayo imuheka ku mugongo, ni nziza, ikurura ba mukerarugendo, bakatuzanira amadovize, bityo igihugu kigakora ibikorwa remezo neza.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, ifite ubusitani, ikigega cy'amazi cy'umukara, ku ruhande bazengurukije uruzitiro rw'ibyuma rukomeye kugira ngo bazitire abajura.

Inyamaswa imeze nk'ihene ni nini, ifite amahembe maremare, ni nziza, iri mu cyanya cy'aho bazororera, iri mu byiza nyaburanga, bikurura ba mukerarugendo, bakatuzanira amadovize, bityo igihugu kigatera imbere.

Inyamaswa nziza cyane, ni ndende zifite uruhu rwiza, ziri mu byiza nyaburanga bitatse igihugu cyacu, zikurura ba mukerarugendo bakaza kuzireba, maze bakatuzanira amadovize.

Inyamaswa ihagaze mu cyanya cy'aho bazororera ifite ibara ryiza, imeze nk'inyana cyangwa se ikimasa iri mu byiza bitatse igihugu cyacu, ituzanira ba mukerarugendo.

Inyamaswa nziza cyane zimeze nk'inka ziri mu cyanya cy'aho bazororera, zifite ishusho nziza zizana amadovize ba mukerarugendo iyo baje bakayaduha, igihugu cyacu kirushaho gutera imbere.

Inyoni yitwa gasuku ihagaze ku ishami ry'igiti ifite amabara atatu, umutuku, ubururu n'icyatsi kibisi, iyo umuntu avuze ijambo irisubiramo iri mu byiza nyaburanga bikurura ba mukerarugendo.

Inyamaswa yitwa ingagi yicaye mu giti hejuru, mu cyanya cy'aho bazororera, ni ingirakamaro mu gihugu cyacu, kubera ko izana ba mukerarugendo bakazana amadovize, akagira icyo amarira igihugu cyacu.

Inyamaswa ifite ibara ry'umuhondo n'umukara ifashe ku giti, ni nziza ibereye amaso kuyireba, ba mukerarugendo iyo baje kuyireba barongera bakagaruka bakatuzanira amadovize.

Inkende ni inyamaswa igira umurizo muremure, iyo ziri kugenda zikorera hamwe ari itsinda rinini cyangwa se iyo ziri hejuru mu ishami ry'ibiti, iyo ifite umwana wayo imushyira ku mugongo ikamugendana.

Igisiga gihagaze ku giti giciyemo hejuru, gifite amabara abiri, umukara n'umweru, bakita igikona, gikunda kurya inyama cyane, kandi kiri mu bwoko bw'inyoni.

Inyoni iri mu byiza nyaburanga, ikunda kuguruka, ihagaze ku rurabyo bita uburengo ni nziza, abamukerarugendo baza kuzireba bakatuzanira amadovize.

Inyamaswa imeze nk'inka, ni ndende, ifite ubwoya bukeye, amahembe maremare ateze neza, iri mu byiza nyaburanga biranga igihugu cyacu, ituzanira ba mukerarugendo, bityo bakaduha amadovize.

Inyamaswa ihagaze ku ishami ry'igiti, ifite ibara ry'umweru n'umukara, mu maso hayo harashimishije kuhareba, ni ibyiza nyaburanga bikurura ba mukerarugendo, bakatuzanira amadovize.

Inyoni ihagaze mu giti, ni nziza, ifite amabara atandukanye, umunwa w'umukara, umutuku hejuru, umuhondo mu mpande, iri mu bintu bikurura ba mukerarugendo bakatuzanira amadovize.

Inyamaswa nziza eshatu zihagaze, zimeze nk'amatungo magufiya bororera mu rugo, ni ibyiza nyaburanga bikurura ba mukerarugendo bakatuzanira amadovize, igihugu cyacu kikikenura.

Inkende ni inyamaswa zigira imirizo miremire, zikunda kwicara mu biti hejuru, umwana wayo imuheka ku mugongo ikamugendana ntabwo imushyira hasi.

Inyamaswa ifashe ku ishami ry'igiti, ifite ibara ry'umweru n'umukara, ni bimwe mu byiza nyaburanga bigize igihugu cyacu, bikurura ba mukerarugendo bakatuzanira amadovize Igihugu gikeneye.

Inyamaswa yitwa icyondi igira umurizo muremure, yicara nk'abantu, ifite amabara y'umweru n'umukara, ubwoya bwayo ntabwo igitinya abantu, ikunda kuboneka mu ishyamba rya Nyungwe.

Inyoni bita Gasuku, ihagaze ku ishami ry'igiti hejuru, ifite amabara meza, izi ubwenge, iyo yuvishe ibintu abantu bavuze ibisubiramo, itandukanye n'izindi nyoni zose.

Abadamu babiri bahagararanye n'imbwa, ni nziza, irinda umutekano w'aho iri, nta mujura wapfa kuvogera urugo ituyemo, cyereka yabanje kuyikorera ikintu gituma iceceka kugira ngo itavuga.

Inyamaswa nziza cyane ebyiri zihagaze mu cyanya bazororeramo, zifite uruhu rwiza, umukara n'umweru, uburyo ruriho wagira ngo ni umutayeri wazidodeyeho.

Inyoni ihagaze ku ishami hejuru ry'igiti, ni nziza iragaragara neza, ni zimwe mu byiza nyaburanga bikurura ba mukerarugendo, iyo ziririmba n'indirimbo zazo ziryohera amatwi.

Inyamaswa yicaye nk'umuntu ifite ubwoya bw'umukara n'umweru amaso manini, iri mu byiza nyaburanga bikurura ba mukerarugendo bakatuzanira amadovize igihugu cyacu kigatera imbere.

Inyamaswa y'interamatsiko, ifite mu maso nk'ah'umuntu wambaye masike, ibara ry'umweru n'umukara, ikurura ba mukerarugendo bakatuzanira amadovize igihugu kigatera imbere.

Inyamanswa iri gukanura cyane. Ifite ibara ry'umweru, n'umukara. Ubwoya bwayo ni bwinshi buratsitse. Bumeze nk'ikote yambaye. Ni nziza iteye amatsiko.

Inyoni ifite amabara meza ihagaze ku ishami ry'igiti na yo iri mu byiza nyaburanga bitatse igihugu cyacu, bikurura ba mukerarugendo bakatuzanira amadovize, igihugu cyacu kikarushaho gutera imbere.

Inyamaswa yitwa inkende, iri kugenda ku ishami ry'igiti hejuru, mu cyanya bazororeramo, ifite umurizo muremure, ubwoya butsembye neza, ni ibyiza nyaburanga, bikurura ba mukerarugendo mu gihugu cyacu, bakatuzanira amadovize.

Inyoni iri kuguruka mu kirere ifite umurizo muremure w'umukara, ku mababa yayo haherwa n'umutuku, ahandi haravanze, ni ibyiza nyaburanga igihugu cyacu cyibitseho, bikurura ba mukerarugendo bakatuzanira amadovize.

Intare ni inyamaswa y'inkazi iba mu ishyamba ikomeye ifite imbaraga, aho iba mu cyanya bazororeramo, ikurura ba mukerarugendo bakatuzanira amadovize igihugu kikabona amafaranga gikoresha mu bikorwa remezo.

Inyamaswa ziba muri parike ni ibyiza nyaburanga bitatse igihugu cyacu, ba mukerarugendo bava iwabo baje kuzireba bakadusigira amadovize bityo igihugu cyacu kikikenura.